Ni umwana bari gusukira ari gukaraba amazi meza n'isabune, kugira ngo yirinde inzoka zo mu nda n'izindi ndwara za hato na hato zituruka ku mwanda.

Ni umusore wambaye imyenda y'akazi, yambaye ikarita y'akazi imuranga, hirya ye hari umukobwa uri kumufasha, ari gufata amaraso umubyeyi, hakurya yabo hari umusore wambaye ijire y'akazi bigaragara ko ari umukoranabushake.

Ni ababyeyi batatu bateze amatwi umuyobozi wabo ari kubahugura uko twakwita ku buzima bwo mu mutwe aho dutuye, twirinda kunena abafite ubumuga bwo mu mutwe kuko na bo ari abantu.

Umubyeyi wikoreye igitebo kirimo ibijumba, hejuru hari imigozi yabyo afite n'isuka mu ntoki, bigaragara ko avuye mu murima gukura ibijumba.

Ni umugabo uri ahantu hasa nabi hari imyanda, na we yambaye imyenda isa nabi y'inkweto zacitse, ahagaragara ko hari umwanda mwinshi ukabije.

Ni umusore n'umukobwa bicaye mu nzu, umuhungu wubitse umutwe ku maboko ye, umukobwa wamufashe ku rutugu, asa nkaho ari kumuhumuriza, bigaragara ko uyu muhungu afite agahinda.

Ababyeyi babiri bari mu zabukuru bari gukora siporo bishimye bari no guseka, siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, cyane cyane bano bari mu zabukuru, bibafasha kwirinda indwara zitandukanye nk'umugongo imitsi n'ibindi.

Ni ababyeyi babiri bari mu muhanda, umwe afite igikapu mu ntoki, undi afite ubumuga bwo kutagenda neza ariko ari kumwigisha gutera intambwe ku yindi, yifashishije agakoresho kabugenewe.

Umusaza ari kumwe n'umuganga bari kumupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze. Ni byiza rero kwipimisha indwara zitandukanye kugirango ngo umenye neza niba nta ndwara iri mu mubiri wawe.

Ni abaganga bambaye imyenda y'akazi, bambaye bose udupfukamunwa, bambaye n'amakarita y'akazi abaranga bavurira mu ivuriro ryitwa Legacy Clinic.

Ni bitaro byiza birimo isuku, harimo inzitiramibu kugira ngo birinde agakoko kitwa "Umubu" gatera Malariya. Harimo umurwayi, hakabamo n'umugabo uri kumufasha kuzamura inzitiramibu. Ni ahantu hasa neza hafite isuku nziza.

Ni ibitaro birimo amasuku ahagije, urumuri ndetse n'ibitanda by'abarwayi. Ni byiza kugira amasuku kwa muganga kuko haba hariyo abarwayi bakeneye guhumeka umwuka mwiza.

Umuntu uri gusuka amazi yo kunywa mu kirahuri. Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, hari ibyo yongera mu mubiri w'umuntu bityo bigatuma ubuzima bugenda neza kurushaho.

Amazi ni meza mu buzima bw'umuntu, kuko hari ibyo asukura mu mubiri, akaturinda indwara za hato na hato. Uyu musore afite icupa ry'amazi ari kuyanywa, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bukore neza.

Iki kimera bacyita uruyuzi, bagisoromaho imyungu, bakagisoromaho imboga zo guteka, ni cyiza cyane kuko ibigiturukaho bigira akamaro mu mubiri w'umuntu.